Abantu b'ibitsina byombi barimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo abagore bateruye ibintu mu mufuka, babivana ahantu hamwe babijyana ahandi. Bisa nkaho aho iyo mifuka iri itondetse ku murongo.

Abana bari mu kigero cy'imyaka ingana bose bambaye impuzankano ndetse bari ku mugezi bisa nkaho bari koga ibiganza ndetse abandi bafite udukoresho twifashishwa mu gufata amazi, barimo batuvomeramo amazi.

Umuntu w'igitsina gabo uri guseka cyane wishimye, wicaye ku gikoresho gishinzwe kuvoma amazi, bisa nk'aho ari ku mugezi arimo avoma ayo mazi, inyuma ye hari umuhanda ndetse n'urugo rw'icyatsi rukoze mu biti.

Abantu bari ku mugezi, bafite igikoresho kivoma amazi, bisa nkaho bose bari kuvoma, bamwe muri bo bari mu kigero cy'imyaka mitoya ndetse abandi muri bo bari mu kigero cy'imyaka y'urubyiruko.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bose b'igitsina gore, buri umwe ateruye umwana, bisa nkaho bari kwa muganga bagiye kwita ku buzima bw'abana babo dore ko abana babo bari mu kigero cy'imyaka mitoya cyane.

Imbaga nyamwinshi y'abantu gusa mu bigaragara abantu benshi ikigero cy'imyaka myinshi kirimo imyaka y'abantu bakuze, bari ahantu hamwe bisa nkaho aho bateraniye hari ubutumwa runaka bagiye kwakira cyangwa se bagiye guhabwa.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe muri bo ateruye umwana mutoya, undi ni umuganga arimo aramuha imiti asa nkaho arimo amavura kugira ngo amurinde kuba yahura n'uburwayi butandukanye cyangwa se umwiteho kuba yakwangizwa n'uburwayi runaka.

Imbaga nyamwinshi y'abana batandukanye. Harimo abahungu ndetse n'ababakobwa, bari mu kigero cy'imyaka itandukanye. Bamwe muri bo bari k'umugezi bateze amaboko barimo baroga ibiganza.

Umuntu uteruye umwana uri mu kigero cy'imyaka mitoya cyane. Imbere ye hari umuganga wambaye imyambaro y'ibara ry'umweru ndetse afite urushinge mu kiganza cye arimo ararutera wa mwana mutoya cyane bateruye.

Abantu b'ibitsina byombi bishimye, bambaye imyambaro isa, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abafite imisatsi miremire ndetse n'abadafite imisatsi miremire. Aba bantu bose bambaye utuntu mu ijosi, bisa nkaho bose baduhuriyeho.

Abantu babiri umwe muribo ni umuganga undi ateruye umwana bisa nkaho uwo muganga afite ibintu arimo aramuha mu kanwa ke bigaragara nkaho ari kumuvura.

Abantu b'ibitsina byombi bicaye ahantu hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hateretse icyo kunywa, bigaragara ko ari amazi, aba bantu bicaye baganira ku ngingo yo kwita ku buzima cyane cyane ubw'abana.

Abana batatu bari mu kigero cy'imyaka ingana, bose bari guseka bisa nk'aho bishimye, bose bari ku kumugezi bateze ibiganza byabo barimo baroga ibiganza, dore ko koga ibiganza ari kimwe mu mico myiza igomba kuturanga.

Inshinge zifashishwa mu buvuzi no kwita ku barwayi kwa muganga ndetse n'umuti cyangwa se agacupa kaba karimo umuti, babikamo umuti igihe yagiye gutera urushinge umuntu urwaye cyangwa se umuntu urukeneye.

Umuntu wambaye imyambaro yo kwa muganga, bisa nk'aho ari umukozi cyangwa se uwitabwaho, uri kwa muganga. Imbere ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kwita ku barwayi, ndetse no kwita ku muntu ufite ikibazo cy'uburwayi.

Abantu b'ibitsina byombi harimo abagabo ndetse n'abagore. Harimo abo bigaragara ko bari mu myaka ikuze. Bamwe muri bo bambaye utuntu mu ijosi bigaragara ko hari icyo bahuriyeho. Ndetse abandi muri bo bambaye udupfukantoki. Bigaragara ko barigukora serivise z'ubuganga.

Umuntu uri mu kigero cy'imyaka y'urubyiruko, ari ku ivomero bisa naho ari koga mu biganza, dore ko koga ibiganza ari umuco mwiza kubera ko byica, bikanarinda indwara zitandukanye.

Abana benshi bari ku mugezi ufite ibikoresho byo kuvomo amazi ndetse imbere yabo hari umuntu mukuru, uri kubafasha kugira ngo babone uko bavoma ayo mazi.

Inzu zikozwe cyangwa se zubatswe mu matafari, zifite urugo rukozwe mu byuma biboshye, mo imbere muri urwo rugo harimo umuntu uhagazemo bigaragara ko ariwe uha...

Abana batatu bambaye impuzankano z'ishuri, bose bari ku mugezi bari koga ibiganza n'amazi meza, dore ko koga ibiganza bidufasha igikorwa cyo gukura imyanda mu biganza byacu.

Umwana mutoya uri ku mugezi, ufite igishinzwe kuvoma amazi, bisa nk'aho arimo agiterura cyangwa se agishyira hasi, kuko nk'uko bigaragara agifashe mu ntoki cyangwa se aragiteruye.

Abana bari mu kigero cy'imyaka ingana bamwe muri bo bambaye imyambaro isa, bisa nkaho ari impuzankano ndetse bose bari ku kumugezi batezeho ibiganza bisa nkaho bari koga, dore ko koga ibiganza ari imico myiza.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka mitoya cyane yambaye umwambaro w'ibara ry'ubururu ndetse harimo uturongo tw'ibara ry'umukara ,ateze ibiganza arikumusukira amazi mu biganza kugira ngo yoge intoki neza dore ko gahunda cyangwa se umuco wo koga ibiganza ari mwiza kuko udufasha mu gukura imyanda ku biganza byacu.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka mikeya ufite uducupa mu ntoki turimo amazi ahagaze ahantu hari ubwatsi ndetse n'ikidendezi cy'amazi yambaye imyambaro isa ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo inyuma ye gatoya hari abandi bana bisa nkaho nabo bari mu kigero kimwe.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka mitoya cyane wambaye umwambaro w'ibara ry'umutuku ndetse ari ku mugezi ari koga mu biganza, dore ko koga mu biganza ari kimwe mu kintu cyiza kiturinda indwara cyangwa se kidufasha mu kubungabunga cyangwa gukumira uburwayi bwaturuka ku mwanda.

Imbaga nyamwinshi y'abantu. Harimo abantu b'igitsinagabo ndetse n'igitsinagore. Abiganjemo cyane bari mu myaka igiye itandukanye. Harimo abari mu myaka mikuru ndetse n'abari mu myaka mitoya. Bose bicaye ahantu hamwe, bisa nk'aho hari ikintu bahuriyeho.

Abantu bisa nkaho bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, umwe muri bo yambaye udupfukantoki ndetse abandi muri bo bambaye utuntu mu ijosi bigaragara ko hari icyo bahuriyeho, abandi bambaye imyambaro yo kwa muganga bashinzwe kwita ku barwayi, harimo ab'igitsina gabo ndetse n'umwe w'igitsina gore, imbere yabo hateretse udukarito dufunguye bisa nkaho turimo ibikoresho runaka.

Abantu benshi bicaye hamwe, bamwe muri bo bari mu kigero cy'imyaka mitoya, bicaye bakoze uruziga ndetse bamwe muri bo bambaye imyambaro isa y'ibara ry'ubururu, bisa nkaho bari gukina imikino itandukanye.

Umuntu w'igitsina gore, uhagaze ufite isuka mu ntoki, akaba yikoreye igitebo kirimo ibintu bitandukanye. Inyuma ye hari igihingwa cy'ibara ry'icyatsi, ndetse inyuma y'icyo gihingwa hari urugo ruhari.

Abantu bibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore bose bahagaze mu mwanya umwe bisa nkaho hari ikintu bahuriyeho, kuko umwe muri bo afite utuntu dusa imbere yabo ndetse umwe muri bo bambaye imyambaro isa y'ibara ry'umweru.

Abantu babiri b'igitsina gore umwe muri bo atera uyu mwana ndetse undi afite igikoresho cy'inziramugozi mu ntoki ndetse afite n'akandi gakoresho k'ibara ry'umweru arimo yerekeramo uwo bari kumwe.

Abantu b'ibitsina byombi bahagaze, harimo ibitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, mo hagati harimo umuntu bisa nk'aho yambaye imyambaro y'abashinzwe kurinda umutekano.

Ikigo cyubatse ahantu hitaruye, hari ubusitani bwiza burimo ubwatsi bw'ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibiti birebire ku mpande. Iyi nyubako ishinzwe kwita ku buzima bw'abarwayi bafite ikibazo.

Umuntu w'igitsina gabo. Yicaye areba hasi. Yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, ndetse ahetse igikapu mu mugongo yambaye n'ingofero mu mutwe. Bisa nkaho ari kureba hasi, afite ibintu byinshi ari gutekereza.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Bose bicaye mu mwanya umwe. Buri umwe imbere hari icupa ry'amazi ririmo amazi ndetse imbere yabo hari umwe uhagaze.

Inyubako y'inama rusange yicayemo abantu batandukanye barimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, bamwe muri bo bambaye imyambaro isa y'ibara ry'umukara, bose baricaye bisa nk'aho bateze amatwi cyangwa se bari kureba ibiri kubera imbere.

Imodoka nini y'ibara ry'umweru ikaba ikoreshwa nk'ibitaro cyangwa se igikoresho gitanga ubuvuzi ngendanwa hanze yicaye abantu harimo abamo batanga iyo gahunda y'ubuvuzi ndetse n'abaje kwakira iyo gahunda y'ubuvuzi.

Umuganga wambaye udupfukantoki ndetse akaba afite agakoresho gashinzwe kuvura cyangwa se gukura amenyo, ari kumwe n'umuntu urwaye amenyo yabumbuye umunwa, bisa nkaho ari gukoza k'agakoresho mu kanwa kugira ngo arebe amenyo ye ikibazo yaba afite.

Abaganga bashinzwe gutanga ubuvuzi bw'amenyo, bambaye imyambaro y'imyeru. Ni umugabo ndetse n'umugore, imbere yaho hari umwana wicaye ku ntebe bisa nkaho arimo ahabwa ubufasha bw'ubuvuzi bw'amenyo.

Umuntu w'igitsina gabo urimo yireba mu ndorerwamo, yambaye umwambaro w'umweru ndetse ari guseka, afite akantu mu kiganza gahuza ikiganza kimwe ndetse n'ikindi, afite imisatsi y'ibara ry'umukara.

Umuntu w'igitsina gabo. Ndimo aseka. Afite umwenda ku rutugu. Ndetse afite akantu gasa n'urudodo mu ntoki ze, akegeje hafi y'amenyo.

Umukozi wo kwa muganga ushinzwe gutanga imiti w'igitsina gore wambaye imyambaro isa y'akazi y'abaganga. Imbere ye hicaye umusaza mukuru ukuze, arimo amuha imiti kugira ngo abashe kuyifata.

Abantu b'igitsina gore babiri, bisa nkaho bari mu myaka mikuru bigaragara ko bari mu zabukuru, bombi barambuye amaboko bisa nkaho bari mu myitozo ngororamubiri, dore ko imyitozo ngororamubiri ari ingenzi ku buzima bwacu.

Umuntu bisa nkaho ari igitsina gore ari mu myitozo ngororangingo cyangwa se ngororamubiri, kuko yicaye hasi yarambuye amaguru ndetse n'amaboko ayerekeza ku gice cy'amaguru.

Abantu babiri uwi gitsina gabo ndetse n'uw'igitsina gore w'igitsina gabo bisa nkaho ari mu myaka mikuru ageze mu zabukuru imbere ye hateretse igikombe kirimo amazi bisa nkaho ari kugenda asomaho gake gake.

Abantu babiri, umwe muri bo ni umuganga, yambaye imyambaro y'abaganga, ndetse afite n'utwuma tw'ikoranabuhanga mu ijosi yambaye, afite ahantu ari gusoma, bisa nk'aho arimo araha inyigisho uyu muntu, dore ko bigaragara ko ageze no mu myaka y'izabukuru.

Abantu b'ibitsina byombi umugabo ndetse n'umugore, bose bari guseka, bisa nkaho bari myitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo, dore ko ari myiza ndetse ikaba ifiti n'akamaro kanini ku buzima bw'ikiremwamuntu muri rusange.

Abantu bari mu kayira gatoya k'abanyamaguru b'igitsina gore ndetse harimo n'ab'igitsina gabo, bisa nk'aho ari abantu bakuze bo mu myaka y'izabukuru, barimo batambuka bava hepfo bajya mu gice cya ruguru cy'umuhanda.

Umusaza uri mu kigero cy'ubukuru bigaragara ko akuze cyane. Yicaranye n'abana babiri harimo ufite icyo kunywa mu ntoki ndetse n'undi ufite icyo kurya mu ntoki. Bisa nkaho bose barimo bafungura.

Umuntu uri guterwa urushinge ku kaboko k'ibumoso. Yaba uri kurutera ndetse n'uri kuruterwa bose ni igitsina gabo kandi bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko hari indwara barimo birinda.

Abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, bambaye imyambaro isa ndetse n'udupfukamunwa, aba bantu bisa nkaho bari kwita kuri uyu muntu wicaye imbere yabo, bisa nkaho batanga ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se no mu kanwa.

Ijambo ryanditse mu mpine rikaba rifite inyuguti eshatu ndetse n'busobanuro bwaryo burambuye kuruhande, harimo inyuguti ya r, inyuguti ya b n'inyuguti ya c, byanditse mu mabara atandukanye.

Abantu bambaye imyambaro yo kwa muganga, bose bambaye imyambaro isa ndetse n'udupfukamunwa ndetse bambaye n'udupfukantoki, bisa nkaho bari gukoresha ibikoresho byo kwa muganga kuko bashinzwe kwita ku buzima bw'abarwayi.

Abantu benshi cyangwa se imbaga nyamwinshi, harimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, bose baricaye abandi barahagaze bisa nkaho bari mu mwanya umwe, buri umwe afite akantu mu kiganza cye arimo yerekana ku ruhande rw'imbere.

Inyubako ikorerwamo ubushakashatsi, ikaba ari inyubako ifite ibikuta bikozwe mu birarahuri ndetse imbere y'ibyo birahuri, harimo intebe cyangwa se ahabugenewe ho kwicara cyangwa se kuba hakorerwa ubwo bushakashatsi.

Abantu b'ibitsina byombi abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye imyambaro isa, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, bose bafashe utuntu mutoki bisa nkaho hurije ku kintu kimwe.

Kwa muganga aho hari abantu bambaye imyambaro y'ibara ry'ubururu, bashinzwe kwita ku barwayi ndetse hakaba hari n'umurwayi barimo bitaho bigaragara ko hari abaganga.

Inyubako ikaba ishinzwe kwita ku buvuzi ndetse no kwita ku buzima bw'abantu, ku ruhande gatoya hari ibiti cyangwa se ubusitani bukozwe mu bwatsi ndetse n'ibiti birebire.

Icyumba kigari. Kikaba kirimo aho kwicara ndetse n'umutako w'ururabo ndetse iki cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo.

Abantu b'ibitsina byombi bahagaze mu bice bibiri bitandukanye gusa muri bo harimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore muri abo bahagaze harimo umwe wicaye cyangwa se uciye bugufi.

Icyumba kifashishwa mu buvuzi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, kwita ku buzima bw'abarwayi muri rusange, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se bavurwe indwara baba barwaye.

Inyubako ndende ikaba ikorerwamo ibikorwa byo gutanga imiti yo kwita ku barwayi cyangwa se mu kwita ndetse no kuvura ku bantu bakomeretse cyangwa se bagize ibindi bibazo bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umwambaro w'umweru ndetse n'agapfukamunwa ndetse n'udushinzwe gupfuka intoki, bisa nk'aho akora mu bikorwa byo kwita ku barwayi cyangwa se muri gahunda y'ubuvuzi.

Umuntu w'igitsina gore wunamye wambaye udupfukantoki ndetse yambaye n'imyenda yo kwa muganga y'ibara ry'umweru. Bisa nkaho uyu muntu ashinzwe kwita ku buzima bw'abarwayi ndetse n'abantu muri rusange.

Inyubako ndende, iruhande rwaho hakaba hari ibinyabiziga, harimo igifite ibara ry'umukara ndetse imbere hirya gatoya hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, bisa nk'aho na cyo gitwara abagenzi bakeya.

Ikirango cyangwa se ikiranga cyeyerekezo kiri ahantu mu muhanda nyabagendwa, kiranga aherekeye ikigo nderabuzima cyangwa se inyubako ishinzwe kwita ku buzima bw'abarwayi, cyangwa se kubungabunga ubuzima bw'abarwayi muri rusange.

Kwa muganga, icyumba kiryamyemo abarwayi, ndetse iki cyumba kikaba cyifashishwa mu gucumbikira, abantu barwaye bakeneye kwitabwaho byihuse n'abaganga.

Kwa muganga, icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'ibanze, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa mu bushakashatsi, ndetse no mu kuvura abarwayi bagize ibibazo bitandukanye.

Inyubako itangirwamo ubufasha cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze ku bantu barwaye, yaba ab'igitsina gabo cyangwa se ab'igitsina gore, mo imbere muri iyo nyubako, harimo abantu baje kwaka ubufasha bwo kwita ku barwayi cyangwa se kwitabwaho.

Inyubako iri ahantu hitaruye, bigaragara ko ikorerwamo ubuvuzi bwo kwita ku barwayi, imbere gatoya y'iyo nyubako harimo abantu babiri bisa nk'aho barimo batambuka, bava hirya baza mu giciro cyo hino.

Inyubako ishinzwe kwita ku barwayi ndetse ikaba ikoreramo abantu bashinzwe kwita ku barwayi cyangwa se abavura abarwayi cyangwa se abafite ibibazo bitandukanye, bose bitabaza kino kigo nderabuzima bityo bakabitaho bakababonera igisubizo.

Inyubako ishinzwe gukorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, cyangwa se kwita ku buzima bw'abantu. Iyi nyubako hakaba harimo abantu mo imbere, bisa nkaho ari abakozi bakora muri iyi nyubako.

Inyubako yubatswe ifite amabara atandukanye. Harimo ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru, hejuru hakaba hari ibara ry'umutuku. Ndetse imbere y'iyo nyubako hari amabendera abiri atandukanye.

Umuganga wambaye umwambaro w'ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari kwita ku mwana mutoya w'uruhinja uteruwe n'umubyeyi we, bisa nk'aho uyu muntu ashinzwe kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya.

Umuntu w'igitsina gore afite imisatsi miremire y'ibara ry'umukara, azamuye ibiganza byombi abyerekeza hejuru, ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo, dore ko imyitozo ngororamubiri, ari ingenzi ku buzima bwacu.

Imyitozo icumi wakora kugira ngo urebe ese niba ubwonko bwawe bukora neza, harimo imyitozo wakora wicaye ndetse n'indi myitozo ukora uhagaze kugira ngo usuzume umenye neza uko ubwonko bwawe bukora.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umwambaro w’umukara ndetse n'akantu mu ijosi bisa nkaho afite icupa ririmo amazi arimo anywa amazi kandi amazi ni ikintu cy’ingenzi kubuzima bwacu.

Ahantu hakinirwa imikino itandukanye hari abana benshi bigaragara ko bishimye, bamwe basimbutse abandi bari gukoma amashyi, abandi hirya gatoya harimo ufite umupira wo gukina mu ntoki.

Umuntu wambaye umwambaro w'ibara ry'umukara, afite amazi mu gacupa arimo arayanywa, dore ko amazi ari muri bimwe bigize umubiri ndetse bikaba bigira ingaruka nziza ku mubiri wacu muri rusange.

Umuntu yambaye umwenda mugufi w'ikabutura w'ibara ry'umukara, yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso y'ibara ry'umukara, bisa nkaho yifashe ku ivi arimo arikanda nkaho yagize ikibazo.

Umuntu w'igitsina gore. Yambaye imyambaro y'ibara ry'umukara. Ndetse afite imisatsi miremire, na yo y'ibara ry'umukara. Yicaye mu cyumba, azamuye amaboko yombi, arimo arinanura.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyambaro iciye ndetse n'inkweto, uyu muntu ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo yazamuye akaguru kamwe ndetse arambura n'amaboko nangwa se ibiganza abihuza na ka kaguru yazamuye.

Ibikoresho by'ibanze umuntu akoresha igihe yakomeretse cyangwa se igihe yagize ikibazo ari nko mugikorwa runaka , ashobora kuba yarari mu myitozo ,cyangwa se yari mu bindi bikorwa bitandukanye .Ibi bikoresho rero biba byamufasha kwita ku buzima mu gihe bidakomeye cyane, cyangwa se gihe ataragera ku kigo nderabuzima

Umuntu w'igitsina gore ufite umwambaro ku rutugu, akaba afite icupa mu ntoki arimo anywa amazi kuko amazi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu ndetse dore ko dushishikarizwa no kuyanywa kenshi.

Icyumba kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga. Iki gikoresho kikaba cyifashishwa mu kuvura cyangwa se mu kugorora ingingo cyangwa se mu kwita ku bantu bakeneye gukora ingororamubiri cyangwa se kugorora ingingo z'umubiri wabo.

Ibyo kunywa ndetse n'imbuto, harimo amazi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye ndetse n'icyo kunywa gikozwe muri izi mbuto. Bikaba ari ingenzi ku buzima bwacu cyangwa se ku ubuzima bw'umuntu muri rusange.

Ibiribwa runaka byifashishwa cyangwa se biribwa n'umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo kugira ngo umubiri we wongere kuba ukomeye.

W'igitsina gabo wicaye hasi arimo akora imyitozo ngororamubiriko. Iyo imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu kintu cy'ingenzi tugomba kugira mu buzima bwacu kuko byongera ubuzima cyangwa se kubaho neza k'umubiri wacu.

Ubwoko bw'ibiribwa butandukanye ushobora kuba wafata cyangwa se ushobora kuba warya mu gihe urimo ukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo, icyo gikorwa kikaba cyagenda neza ukumva umubiri wawe udacitse intege.

Umuntu w'igitsina gore uryamye bisa nkaho ari muri siporo ngororamubiri cyangwa se ngorororangingo, hirya ye hari indabyo z'imitako ziteretse iruhande rwe, ndetse akaba aryamye ku musambi.

Igikoresho gishinzwe gukoreshwa n'abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, harimo nk'abaganga. Igikoresho kikaba kifashishwa mu kureba utuntu cyangwa se udukoko dutoya tutaboneshwa ijisho ry'umuntu.

Imiti myinshi cyane iri ahantu hamwe ishinzwe kuvura umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri cyangwa se ngororangingo igihe yagize ikibazo muri icyo gikorwa cy'imyitozo yari arimo akora, imiti yo kwisiga ndetse n'utundi tuyunganira.

Udukoresho cyangwa se imiti itandukanye byifashishwa mu kuvura umuntu mu gihe yahuye n'ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororangingo, utu tudukoresho tukaba twamufasha nk'ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu w'igitsina gabo ufite icupa ry'amazi mu kaboko k'iburyo, arimo aranywa amazi dore ko kunywa amazi ari umuco mwiza kuko bituma umubiri wacu umera neza ndetse tukumva dufite imbaraga.

Ubwoko bw'umuti bufunze mu icupa ry'ibara ry'umweru, amagambo yanditseho akaba yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse uyu muti wifashishwa mu kuvura abantu bahuye n'ikibazo cy'uburwayi cyangwa se kwita ku barwayi.

Ubwoko bw'imiti butandukanye bufunze mu macupa ndetse no mu ducupa dutoya, bukaba butondetse ku buryo bwiza bumwe hasi ubundi hejuru, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura abantu barwaye cyangwa se umuntu wagize ikindi kibazo kijyanye n'uburwayi.

Imiti ishinzwe kuvura umuntu ugize ikibazo cy'uburwayi runaka imiti akaba ayihabwa kugira ngo yitabweho bikaba byamurinda gukomeza kurwara cyangwa se kuba yakwanduza uburwayi mu gihe bwanduwe.

Imiti y'ubwoko butandukanye ikaba yifashishwa mu buvuzi ikaba yifashishwa mu kwita ku barwayi cyangwa se kwita ku bahuye n'ikibazo cy'umubiri ndetse bakaba bitabwaho kugira ngo bakire.

Ibyo kurya biribwa inyuma y'ibiryo bifatwa nk'imbuto, ibi ngibi bikaba bishinzwe kuvura ndetse no kugira icyo bikora mu gusura imyanda mu mubiri ndetse no kongera vitamine mu mubiri.

Imiti gakondo ikaba ifasha mu kuvura cyangwa se kwita ku buzima bw'abantu barwaye ndetse imiti ikoreshwa mu buryo butandukanye, hari ubwo wayigura cyangwa se ukaba wayikorera.

Ubwoko bw'imiti butandukanye. Ubufunze mu udukarito ndetse n'uburi mu macupa. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo cyangwa se umuntu wahuye n'ikibazo runaka. Akaba yababasha kuyikoresha akitabwaho.

Igihingwa kikiri gitoya cy'ibara ry'icyatsi ndetse gifite amababi menshi atandukanye, bisa nkaho iki gihingwa iyo gikuze kivamo igiti kinini cyane cyifashishwa mu mirimo itandukanye, kikaba cyabyazwamo inkwi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura, mu kwita ku barwayi, ari indwara zitandukanye harimo; imiti yo kwisiga, ndetse n'indi ifungiye mu tuntu tumeze nk'udukarito.

Umuganga ukora imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura abantu cyangwa se mu kuvura abarwayi, yambaye imyenda yabugenewe ndetse yambaye n'agapfukamunwa, arimo ashyira ibintu mu mwanya wabyo.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu kuvura cyangwa se mu gukumira indwara runaka, uyu muti ukaba wifashijwe kwa muganga cyangwa se ahandi hantu aho ariho hose hatangirwa serivise y'ubuvuzi.

umuti wifashishwa mu gusukura, cyangwa se mu guhanagura ahantu hasa nabi cyangwa se hari imyanda. Kugira ngo hake cyangwa se hongere gusa neza uburyo bwo gukwirakwiza isuku no kwirinda umwanda.

Ubwoko bw'imiti myinshi cyane iteretse ahantu hamwe. Iyi miti harimo iyo kwisiga ndetse n'indi ikozwe mu buryo bw'ifu. Imiti ikaba ikoreshwa mu kwita ku muntu wagize ikibazo cyangwa se mu kurinda ubuzima bw'umurwayi runaka.

Ibiganza bibiri bitandukanye, ikiganza kimwe gifite agakoresho gashinzwe koza amenyo, ikindi gifite umuti w'amenyo. Bisa nkaho icyo gifite umuti w'amenyo, ari gufasha gushyira umuti kuri ka gakoresho gashinzwe koza amenyo.

Ubwoko bw'imiti bukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no kwita ku barwayi bagize ikibazo cy'uburwayi, bakaba bayikoresha kugira ngo bakire, harimo imiti y'ubwoko butandukanye, ifite ibara ry'umutuku, icyatsi ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Ubwoko bw'imiti butandukanye bwifashishwa mu buvuzi, bukaba bushobora kuvura umuntu wagize ikibazo, cyangwa se burinda umuntu kuba yagira icyo kibazo ndetse imiti iyo uyifashe ubasha gukira uburwayi wari urwaye bugashira.

Ibihingwa by'ibara ry'icyatsi, bikaba birimo mu imbere mutuntu tuzitiye, bisa nkaho aho tuzitiye dutambitse, dupfutse dutandukanya ahantu imbere ndetse n'ahantu inyuma, ku buryo umuntu uri inyuma atabasha kwinjira ngo ajye mu imbere.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi ikaba ikoreshwa mu buryo butandukanye, harimo kuyisiga ndetse no kuba wakanda hagasohoka umwuka hanyuma uwo mwuka ukakujya ku mubiri, ukaba wagufasha mu buvuzi bw'ibanze.

Imiti gakondo ishinzwe kuvura abantu mu buryo butandukanye, ifunze mu ducupa ndetse iyi miti yifashishwa mu kuvura abantu barwaye, cyangwa se mu gushaka uburyo bwo kubarinda kuba barwara indwara.

Ubuvuzi gakondo bukozwe n'ibintu bitandukanye, harimo imiti iteretse mu tuntu twabugenewe dushinzwe gushyirwamo iyo miti ndetse hakaba hari n'indi iteretse ku ruhande bitewe n'ubwoko bwayo.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abantu bahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Harimo imiti y'ubwoko butandukanye iba ifite amabara atandukanye kuko iba ikozwe mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko yose ihurizwa hamwe kugira ngo ivure cyangwa se ibashe gutanga ubutabazi bw'ibanze ku murwayi.